Inyubako nini cyane yubakishije amatafari ahiye, n'amadirishya y'ubururu, n'inzugi z'ubururu, imbere y'inyubako, hateretse ku mapave, hateretse amatabureti menshi cyane.

Abatayeri bari kudoda imyenda, aba ni batanu, harimo bose bicaye ku mashini, imyenda bari kudoda harimo iy'ubururu, ipfutse n'udutambaro tw'umutuku, harimo n'uwambaye umupira w'icyatsi.

Abantu bafite siyameto bari gukata ibyuma. Hariho umudamu, abadamu babiri n'umugabo. Bose bambaye amasarubeti y'ubururu. Hateyeho ibyapa by'umweru. Umudamu wazingishije n'imisatsi.

Abadamu babiri bambaye amataburiya. Bafashe amacupa bari gusomaho inyuguti bari kuzisoma. Umwe yambaye agapfukamunwa k'umweru bose bazingushije imisatsi irahagaze irazinze irahagaze.

Abanyeshuri bicaye mu ishuri, bari kwiga, na mwarimu wabo yambaye agapira k'ubururu, arunamye, ari kureba ibyo bari kwiga ukuntu biri kugenda neza. Abanyeshuri bariga, bamara kwiga, babona ubumenyi bagakorera igihugu cyacu, bakagiteza imbere.

Abanyeshuri bari mu ishuri, imbere yabo hariho agashushanyo k' imodoka bari kugendesha n' utw' amapikipiki imbere yaho hateretse na mashini, bari kwitegereza ukuntu umwe ari kugendesha akamodoka, k' ubururu, udupikipiki dusa n' umut_

Abanyeshuri bambaye udupfukamunwa tw'umukara n'ubururu, bicaye bari kureba bafite imashini nini cyane. abanyeshuri bari gushaka ubumenyi. Iyo abana barangije kwiga bagira ubumenyi bakayobora Igihugu cyacu bakagiteza imbere.

Abagabo bambaye imyenda y'amasarubeti bafite na za ekuteri mu ijosi. Imbere yabo hariho ibikoresho byo gutekamo. Imbere yabo hariho n'umudamu wambaye umupira w'umutuku n'ijipo y'umukara.

Inzu irimo ibyuma by'ikoranabuhanga, irimo abagabo babiri bambaye amasarubeti, bunamye ku meza bose, bari kureba muri mashini.

Umugabo uri kuri mashini, uri gukanika wambaye isarubeti y'ubururu, aho imbere hariho ibyuma byinshi, bya mashini nyinshi.

Abanyeshuri bari mu ishuri kandi bicaye ku ntebe harimo inzira bose bari kwandika .Umunyeshuri w'imbere ari kwandikisha akaboko k'akamoso akaryo niko yashyize imbere.

Abaganga bari muri laboratwari. Abaganga bambaye amataburiya y'umweru, n'ingofero z'umweru. Bari kureba muri mikorosikopi. Mikorosikopi ni ahantu barebera indwara z'abarwayi.

Abanyeshuri bari kwiga ibijyanye n'ikoranabuhanga, imbere yabo hari ibyuma bari gukoraho, bambaye amasarubeti y'ubururu ateyeho ibyapa by'umweru, umunyeshuri umwe yambaye songambere yayirebesheje inyuma.

Abanyeshuri bari kwiga kudoda, buri wese yicaye imbere yimashini ye bambaye imyenda inyuranye, hari uw'ambaye imyenda y'imikara y'imituku, bose bambaye n'udupfukamunwa, ubudozi ni ishuri ryiza, imyenda yose twambara iba yabanje kudodwa.

Abagabo babiri bari gusudira, umwe yambaye isarubeti y'ubururu ,undi yambaye isarubeti ya kaki . Abagabo bambaye bose bambaye masike, bambaye ingofero zabugenewe, na rinete zabugenewe za fime, kugira ngo barebe mu muriro bitabangiriza.

Abanyeshuri b'abakobwa n'abahungu bakeye cyane bambaye amakanzu y'ubururu, bafite n'icyapa. Bafashe n'ibyapa bibiri, babisize hejuru. Mwarimu wabo na we ari hagati yabo yambaye ishati y'ubururu, n'agapira k'umukara gafite n'ibara ry'ubururu munda. Bari guseka cyane, harimo abanyeshuri bari guseka na mwarimu.

Umutayeri uri kudoda w' umukobwa, afite, ari kudodo igitenge yazingurije na metero mu ijosi. Hirya ye hariho undi na we wazingurije metero mu ijosi, wambaye ishati y'ubururu na we uri kudoda.

Umuhungu n'umukobwa bambaye imyenda, amashati y'imyeru, ikabutura y'umukara n'ijipo y'umukara, umukobwa yazingishije imisatsi. Bose bafite mashini, bari kureba mu mashini ziri imbere yabo.

Abanyeshuri bari mu ishuri bambaye amashati y'umweru n'amakabutura y'umukara, sentire y'umukara; abanyeshuri bafashe amakaramu bari kwandika ibyo bari kwiga.

Abanyeshuri bambaye amashati y'umweru, bose bari imbere, imbere yabo hariho mashini, hariho n'umwarimu wabo, ari kubasobanurira, n'imbere y'umwarimu naho hariho mashini.

Umugabo wambaye itaburiya y'ubururu wambaye n'isaha ku kuboko uri gukora kuri ka dinamo, afite na toronovise y'umweru, ifite n'ikirindi cy'umuhondo, ari kureba ka dinamo kugira ngo agakanike.

Abanyeshuri bari mu kigo ,bari kwiga kuboha imipira, mwarimu wabo yambaye umupira, ishati y'umuhondo n'ikabutura y'ikoboyi , ni umudamu yazingishije na meshi.

umukobwa wambaye isarubeti n'ingofero y'umuhondo, n'isengeri y'umuhondo ufashe mikoro mu ntoki, imbere ye ari gukora ku byuma by'ikoranabuhanga hariho itara ry'umutuku n'itarara ry'ubururu ritukura no kuri za puririzi.

Umukobwa n'umuhungu, umukobwa wambaye ishati y'umweru ijipo y'umukara, n'umuhungu wambaye umupira w'umukara ufite ikora ry'umutuku n'ipantaro y'ikoboyi, hagati yabo hariho urubumbano ruteye irangi ry'umweru, bose bafasheho.

Abagabo batatu harimo uwambaye umupira w'umweru n'ipantaro y'icyatsi, ari gufata kuri terefone bari kumwereka ngo narebe muri terefone. Undi yambaye agashati ka karokaro k'umukara n'umweru, undi yambaye agashati k'umweru. Imbere yabo hariho na za mashine n'inyuma yabo.

Abanyeshuri bambaye iniforume y'uburu hasi n'amajipo ya kaki, umwe afashe ikijumba mu ntoki ari ku cyerekana, abanyeshuri ni beza barakeye, bambaye neza cyane.

Umuganga wumudamu wizingishije imisatsi wambaye ingofero y'umweru, itaburiya y'umweru. Imbere ye hariho icyuma giteka inshinge cyabugenewe guteka inshinge kugira ngo umuntu aterwe urushinge rufite ubuziranenge rwujuje ubuziranenge.

Abanyeshuri bari kureba ibyuma by'ikoranabuhanga b'abakanishi, bambaye amasarubeti y'ubururu harimo n'abambaye n'amasengeri y'umweru. Umuhungu umwe wambaye, umukobwa we yazingishije imisatsi, umuhungu yambaye ingofero ariko irebye imbere ya songa mbere. Hariho n'abandi bari hirya y'imashini bari kwitegereza.

Abanyeshuri bambaye amasarureti y'ubururu afite n'ibyapa by'umweru harimo abakobwa n'abagabo, bari kureba akamashini bari gukanika.

Intebe za sheze, intebe z'umutuku, iz'ubururu, n' iz' umuhondo, hagati y'intebe hateye neza, hariho ameza arambitseho ibitabo.

Abaganga babiri bafite ibyuma kabuhariwe bya mikorosikopi, bari kurebamo indwara z'abarwayi. Abaganga iyo warwaye ukajya kwa muganga, bagufata neza ,bakagupima ,bagapima bagashyira muri biriya byumba byabo ,bakareba uburwayi urwaye, bakakuvura bazi icyo bari kukuvura.

Umugabo uri mu cyumba harimo laboratwari, harimo ibyuma by'ikoranabuhanga laboratwari, mu cyumba hariho amabara atatu, ubururu n'umuhondo.

Abanyeshuri bicaye mu ishyamba, bari kwiga kubijyanye n'ubukerarugendo, ubukerarugendo ni bwiza, ubukerarugendo abanyeshuri bari kubwiga iyo barangije, bavuga ko babungabunga inyamaswa zacu.

Umugabo wambaye ishati y'umweru, imbere ye hariho igishushanyo gishushanyije kiriho umuntu uri muri siporo.

Abakanishi bari muri gare, abakanishi babenuye imodoka bari kuyirebamo bose, bambaye amasarubeti y'ubururu, imodoka bari kuyikora imbere muri kabine.

Abaganga bari mu cyumba bambaye amataburiya y'umweru n'ingofero z'umweru, bambaye n'ubupfukamunwa bw'ubururu. Bafashe n'ubundi mu ntoki.

Abanyeshuri baje kureba imashini, abanyeshuri batanu bambaye amasarubeti y'ubururu n'ingofero z'umuhondo bambaye n'udupfukama uretse kuba bamwe badusize ku karevuro.

Umunyeshuri uhagaze mu nzu irimo ibyuma, ibyuma by'amashanyarazi, ari kujya akoraho ari kureba ahapfuye, ashaka kubikanika, yambaye isarubeti y'ubururu n'isengeri y'umweru.

Abanyeshuri bari ku ishuri, bari kureba imashini, barunamye, bambaye amasarubeti, bari kuyikanika, bari kuyigaho, abanyeshuri bambaye amasarubeti y'ubururu, ingofero z'imihondo, bari kwitegereza, ni abakobwa n'abahungu.

Abanyeshuri batatu bicaye ku mashini zabo, iruhande harimo izindi mashini zirimo ziticayeho abantu. Bari kudoda imyenda. Abadozi ni beza, abadozi badoda imyenda yo twambara, badahari nta bwo twabona icyo twambara kubera yuko baratudodera tukambara imyenda myiza.

Abanyeshuri bari mu byuma mu by'ubukanishi abanyeshuri bambaye amasarubeti y'ubururu n'amasengeri y'imituku. Abo banyeshuriri umwe ari guseka, bari gufungura utuntu tumeze nk'utumashini. Imbere yabo bambaye n'amasarubeti yabo ariho ibyapa by'imyeru.

Abanyeshuri bambaye amataburiya y'ubururu, harimo n'abanyeshuri b'abakobwa bashyize meshi ku mutwe n'abandi bizingishije imisatsi, bari kwitegereza moteri. Harimo umunyeshuri umwe uri gukora kuri moteri ari kubereka.

Abagabo benshi harimo n'umukobwa, bambaye amasarubeti, harimo n'umugabo wambaye imyenda n'ishati y'umweru ipantaro ya kaki, uri kurambura ukuboko ari kubereka, abagabo bari gukata ibyuma na siyameto, hari n'icyuma cy'igifashi, gifashe icyuma bari gukata icyo icyuma ni siyameto ifite n'ikirindi cy'umuhondo.